Abana b'abahungu b'abasore ndetse n'uw'mukobwa bakaba bari bahuriye hamwe, aho bari barimo batwara ifumbire bayijyana bakoresheje igikoresho gikoreshwa mu gutwara kizwi ku izina ry'ingorofani kugira ngo babashe kuyigeza aho bashakaga kuyitwara.

Umumama w'umusirimu wambaye agashati k'amabara ya karokaro ndetse ufite n'imisatsi isutse y'umukara, aho yari ari mu murima afite umuti mu ntoki ze arimo awutera ibigori kugira ngo abirinde uburwayi.

Umurima munini cyane mwiza uherereye ahantu hakikijwe n'ibiti, ukaba wari uhinzemo ibigori, aho bigaragara ko ibigori bitarimo bikura neza cyane kuko bimwe muri byo byatangiye kuma bitarera.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara iterambere ryihuse mu buhinzi, aho abaturage nyuma yo guhinga ndetse no gukoresha ifumbire y'imborera bakomeje kugaragaza ko umusaruro wabo wakomeje kugenda wiyongera uko bwije n'uko bukeye.

zimwe muri gahunda za leta zigezweho harimo na gahunda yo kubaka ahantu hasakaye habugenewe bashyira imyanda ibora kugira ngo babashe kuyibyazamo ifumbire abahinzi bazajya bakoresha bashyira mu mirima yabo kugira ngo babashe kongera umusaruro babona.

Umugabo wambaye itaburiya yo mu ibara y'umuhondo, aho yari ahetse ikijerekani kirimo umuti yari arimo akoresha atera mu murima w'amashu kugira ngo ayarinde uburwayi bugiye butandukanye ndetse abashe no kwera neza.

Umugabo wambaye ibisaroti biri mu ibara rijya gusa nk'icyatsi kijimye, akaba yarahetse mu mugongo we akajerekani karimo imiti yo gutera. Aho yari afashe akantu kameze nk'agatiyo arimo atera imiti ku makawa kugira ngo ayarinde uburwayi.

Abagabo babiri aho umwe yari yambaye ishati y'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoto na bote z'umukara, mu gihe undi yari yambaye nawe umupira w'umukara itiriningi ndetse n'inkweto z'umukara, aho bari barimo bafumbira ndetse banatera imiti ibigori bigiye biri kumera mu murima.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye, higanjemo abasaza ndetse n'abakecuru, aho bari bahuriye mu murima bitwaje amasuka, aho bari bari kwigira hamwe uburyo bazajya bakoresha, kugira ngo bongere umusaruro babona.

Inzu y'ubucuruzi aho ari imwe mu zicuruza imiti y'amatungo, ikaba irimo imiti igiye itandukanye aho igiye ipanze mu tubati ndetse kandi ikaba izwiho gufasha amatungo yiganjemo ayo mu rugo.

Umurima munini urimo ibihingwa bifite amababi ari mu ibara ry'icyatsi, akaba ari ibihingwa bizwi ku izina ry'icyayi, bikaba bikorwamo icyayi bakoresha banywa.

Umurima uherereye ahantu hahanamye cyane, akaba ari umurima wari uhinzemo imigozi y'ibijumba ndetse ukaba ku mpande zawo ukikijwe n'ishyamba ndetse n'ibiti, bikaba bituma wera neza cyane.

Imwe mu mirima myiza cyane yera, iherereye ahantu heza ndetse ikaba ihinzemo imyumbati, kandi ikaba ikikijwe n'ibiti, kandi hakaba hepfo yayo hari n'ibishanga bihinzemo umuceri.

Abana b'abakobwa bambaye impuzankano ryo mu ibara ry'ubururu, bakaba bari basuye ahari ingemwe z'ibiti bigiye bitandukanye higanjemo iby'imbuto, ndetse hakaba hari n'abagabo bambaye amabote ndetse n'ingofero barimo basobanurira abo bana uburyo izo ngemwe ziterwa.

Imyembe ni zimwe mu mbuto zera ku biti, zikaba iyo yeze iba bifite ibara ry'ubururu ndetse yatangira guhisha igatangira kugenda isa nk'umuhondo, ndetse kandi ikaba ikunzwe n'abatari bake kubera uburyohe bwayo ntagereranywa.

Umurima mwiza uherereye ahantu mu cyaro, ukaba ufite ubutaka bw'inombe bwera cyane, kandi ukaba uteyemo insina nyinshi aho zakuze neza cyane zimwe muri zo zikaba zaratangiye no guheka.

Umurima mwiza cyane ufite ubutaka bwiza, aho wari uteyemo inyanya ndetse zikaba zari zirimo zikura neza cyane kubera zatewe imiti ndetse urebye bisa nkaho zari ziri hafi gusarurwa.

Umusaza wambaye agashati ndetse n'ipantaro y'umukara wambaye ibirenge, aho yari arimo atunganya umurima we yari agiye guhinga, acoramo imiringoti hagati kugira ngo uzabashe kumuha umusaruro mwiza kandi mwinshi.

Imwe mu mirima iherereye mu nkengero z'umujyi, aho ari umurima uhinzemo icyayi aho kigiye gitewemo mu buryo bwa kijyambere, aho bacamo amaterasi y'indinganire ndetse n'imiringoti.

Imwe mu mirima myiza iherereye ahantu heza ndetse hakikijwe n'ibiti, ukaba urimo ibirayi birimo byera ndetse bikaba bigaragara ko bitoshye kuko bifite amababi y'icyatsi meza cyane.

Umurima uhererereye mu nkengero z'umujyi, akaba ari umurima mwiza uteyemo imyumbati ndetse kandi hepfo yaho gato hakaba hari igishanga kiri ahantu harambuye neza cyane bahinze basigaje guteramo.

Mu kiraro k'inkoko, aho gikikijwe na senyege ndetse kikaba gifitemo n'inkoko zo mu bwoko bugiye butandukanye, aho uwo mumama yari arimo agaburira inkoko ku gakoresho kabugenewe ko gushyiraho ibiryo.

Umumama w'umukecuru wambaye igitambaro mu mutwe ndetse wambaye n'ibitenge, aho yari ari kumwe n'umukozi wabihuguriwe mu bintu bijyanye n'ubuhinzi, wambaye agapira ka oranje, akagofero ku mutwe ndetse n'itiriningi y'umweru, arimo amwereka uburyo bwiza bwo gushingirira ibishyimbo bye kugira ngo bibashe gutanga umusaruro mwinshi.

Umurima uherereye mu nkengero z'umujyi, aho ari umurima ufite ubutaka busa nk'aho ari bwiza ndetse ukaba uteyemo insina nziza zakuze neza kandi hakaba harimo amateke ndetse bakaba bari barimo banawubagara.

Umwana w'umukobwa ufite imisatsi y'umukara ndetse wambaye n'umupira w'imbeho w'umweru, aho yari ahagaze mu ntabire arimo atera ibiti by'ikawa mu murima.

Umwana w'umukobwa wambaye ingofero y'umukara, agapira ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba yari yambaye na bote, aho yari arimo acora imishipiri mu murima we kugira ngo abashe gucora imirongo myiza yo guteraho ibimera yari agiye gutera.

abantu bo mu ngeri zitandukanye higanjemo abakecuru ndetse hakaba harimo n'umusore wambaye agapira ka orange, aho bari bafite amasuka mu ntoki zabo barimo bahinga umurima ndetse banigishwa uburyo bwo guhinga kijyambere.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye, higanjemo abamama ndetse n'abakobwa, aho bari barimo bategura pepiniyeri zabo, bashyira ibitaka mu mashashi kugira ngo bazayateremo imbuto bazakoresha, bategura ingemwe.

Abamama ndetse n'abasore aho bari barimo bakora isuku ahegereye umuhanda w'ibitaka ndetse bakaba bari bamwe bafite amasuka, abandi barimo bakoresha intoki zabo, aho bari barimo baharura ndetse basukura umurima ndetse kandi bari begereye ahajugunywa imyanda.

Umumama wambaye umupira w'umukara, igitenge ndetse n'agatambaro mu mutwe, aho yari afite isuka mu ntoki ze arimo abagara umurima we yateyemo ibigori kugira ngo bibashe gukura neza ndetse bizamuhe n'umusaruro uhagije.

Umusore wambaye agapira k'icyatsi ndetse n'itiriningi, aho yari afite isuka mu ntoki ze, arimo aponda icyondo cyo gukoresha mu kubaka ndetse kandi akaba yari akikijwe n'umurima urimo imyumbati ndetse n'ibigori.

Umumama wambaye agapira ka orange ndetse n'ijipo, aho yari ari mu murima yunamye arimo atera imbuto mu murima yari amaze gutunganya ndetse ku ruhande akaba yari ari kumwe n'akana ke gatoya kari kamuherekeje.

Umukecuru uteze agatambaro mu mutwe wambaye umupira ndetse n'ijipo, akaba yari yambaye ibirenge afite isuka mu ntoki ze, aho yari arimo abagara umurima we yateyemo ibigori kugira ngo bibashe gukura neza ndetse azabone n'umusaruro mwinshi.

Umwana w'umuhungu wambaye akagofero, agaseri ndetse n'agakabutura aho yari afite isuka mu ntoki ze arimo akora intabire aho yarahagaze kugira ngo hazabashe guhingwamo mu gihe kiri imbere.

Umukecuru wambaye igitenge gifite amabara y'icyatsi y'umukara ndetse n'umuhondo, aho yari ari kumwe n'umukobwa wambaye itirinigi y'umukara ndetse n'agapira k'umukara, aho bari barimo bashingirira ibishyimbo byabo byari birimo kumera.

Umwana w'umukobwa wambaye ingofero y'umukara, agapira ndetse n'itiriningi, aho yari arimo akora uturima mu buryo bwa kijyambere bugezweho, aho umuntu akora umurima ariko agasiga ku ruhande utuyira tuzajya ducamo amazi.

Abakecuru bari bahuriye hamwe aho bari baje muri gahunda ya Leta bitwaje amasuka kugira ngo bigishwe uburyo bwiza bugezweho bagomba kujya bakoresha kugira ngo bategure imirima yabo kugira ngo bazabashe kubona umusaruro mwinshi.

Umumama aho yari arimo akora amasuku mu karima kegereye amazu ndetse akaba yari akikijwe n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye, bari bambaye udupira tw'icyatsi, aho bari barimo bareba uburyo uwo mumama ategura umurima we.

Umugabo wambaye imyenda y'imikara, ubona ko yari amaze gusarura ibitoki mu murima we aho yari yabirundiye hamwe ategereje kubijyana kubigurisha ndetse kandi bikaba byareze neza cyane ubona ko ari binini.

Umugabo uhagaze kuri shitingi aho yari arimo asanza ibigori bari banitse kuri iyo shitingi ndetse kandi ku mpande ze akaba akikijwe n'abamama ndetse n'abandi basore na bo bari barimo bamufasha kubyanika.

Ikizu kinini cyane kimeze nk'aho babika ibicuruzwa bitandukanye, aho harimo udufuka twinshi cyane cyane tugiye dufite amabara atandukanye harimo udufite ibara ry'umweru, umuhondo, ndetse kandi tukaba tubitswe mu buryo bwiza.

Ahantu hameze nko mu cyaro, aho hari hateraniye abamama bo mu ngeri zitandukanye bahuriye mu isoko, aho bagurishiriza ndetse bakanagura ibitoki byiza bifite ibara ry'icyatsi, kandi ubona ko byakuze neza cyane.

Mu bubiko bw'uruganda aho harimo udufuka twinshi cyane tugiye tugeretse ku tundi, tukaba ari utw'ibicuruzwa runaka ndetse tukaba duteretse hejuru y'imbaho kugira ngo tudahura n'ubukonje tukangirika.

Mu Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Huye, aho haherereye igishanga cyiza kandi kinini cyane gikunze guhingwamo umuceri, kikaba ari kimwe mu bitanga umusaruro mwiza cyane kandi kigasagurira n'amasoko.

Mu nkengero z'umujyi, ahasa nko mu cyaro hakaba hari hari abantu benshi higanjemo abamama, aho bari barimo basharika ibigori bari bamaze gusarura ndetse ibindi bikaba byari byanitse hasi ku mashitingi.

Ububiko bw'ibiribwa aho byari birimo udupfuka tugiye dutandukanye, harimo udufite ibara ry'umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi kandi hakaba harimo n'amajerekani y'amavuta ndetse bikaba bimeze nk'aho bacururiza.

Imyumbati isa neza miremire igororotse myinshi, ikaba ari imwe mu bihingwa bikunze kwera cyane mu gihugu cy'u Rwanda kandi ikaba igira uburyohe ntagereranywa kubera ko umuntu ashobora kuba ndetse yanayirya no mu buryo bwinshi butandukanye.

Kimwe mu bishanga byiza biherereye mu karere ka Huye, kikaba ari igishanga kiri ku buso bunini cyane ndetse gifitemo n'amazi menshi mo hagati, kikaba kibasha gutuma ibihingwa bihinzwemo byera neza cyane kandi kikaba cyera n'umuceri mwiza.

Igishanga giherereye mu bice by'icyaro, aho gikikijwe n'imisozi ndetse kikaba giteyemo ibigori, aho byari bimaze gukura neza ndetse bitangiye kuzana n'imisatsi yo ku mutwe kandi kikaba gicamo amazi hagati afasha ibihingwa kwera neza.

Ibiti by'imiyenzi ni bimwe mu biti bikunze kugaragara mu duce twinshi tw'urwanda, aho bigenda bikoreshwa mu buryo bugiye butandukanye harimo, nko kubaka urugo ruzenguruka amazu y'Abanyarwanda benshi, ndetse kandi bishobora no gukoreshwa mu buhinzi kugira ngo bikomeze ubutaka.

Bimwe mu bice by'icyaro aho hari imirima igiye ihinzemo ibintu bigiye bitandukanye, harimo imboga rwatsi, amapapayi, imyumbati ndetse kandi bikaba binabafasha kugira imibereho myiza abahaturiye.

Ibikakarubamba ni bimwe mu bimera, bikunze gukoreshwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza ku ruhu rwabo, aho gifasha gukiza indwara zimwe na zimwe zifata uruhu, harimo ise, ndetse no kurinda ibiheri.

Umurima wegereye umuhanda ukaba uhinzemo ibigori by'ubwoko bwiza kuko bikura bikaba birebire cyane, kandi bikaba ari n'ibigori biheka kabiri, ukaba ubona y'uko ari ibigori byiza cyane.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara amazu agiye yegereye ku muhanda, aho ari amazu asakajwe amategura ndetse afite n'uruzitiro rw'ibiti, kandi ku mpande yarwo akaba afite uturima twiza cyane tugiye duteyemo insina ndetse n'ibiti by'ubwoko bunyuranye.

Igiti cyiza cy'imbuto, aho ari igiti gihinze ahantu heza mu murima uri inyuma y'inzu, kikaba ari igiti kirekire ndetse cyeraho amapapayi kandi aya mapapayi yacyo akaba aryoha cyane ndetse akundwa n'abatari bake.

Imwe mu mirima myiza yagenewe ubuhinzi iherereye mu karere ka huye ikaba ari imwe mu mirima yera cyane kandi ndetse ikaba igitewemo ibihingwa bigiye bitandukanye harimo imboga, imbuto ndetse n'ibigori.

Ahantu hameze nko mu isoko ry'imbuga n'imbuto aho hari hari ibitunguru byinshi biri mabara atandukanye, harimo ibitunguru by'umweru ndetse n'iby'umutuku ndetse bikaba kandi byari byinshi bisa nkaho bari bagiye kubigurisha.

Umumama udakuze cyane wambaye akagofero, uri kumwe n'undi mu mama wishimye urimo guseka na we wambaye akagofero, aho bari barimo bareba uburyo imboga zakuze neza mu karima k'igikoni ndetse banishimiye ko imirire yabaye myiza.

Mu isoko ry'imboga n'imbuto aho harimo imbuto n'imboga bigiye bitandukanye harimo ibitunguru by'umutuku, ibitunguru by'umweru, ibiringanya, amapuwavuro, ibitunguru by'amababi ndetse n'urubuto rwa pome umuntu ubicuruza yari afashe mu ntoki.

Umurima uherereye ahantu heza cyane hakikijwe n'ibiti ndetse n'ibyatsi, ukaba ari umurima uteyemo intoryi ndetse kandi ukaba unasasiyemo inshinge kugira ngo intoryi zitazangirika.

Mu isoko ritari irya kijyambere ry'imboga, aho karoti zari ziteretse hasi ku dufuka zifunze mu dufungo twa karoti esheshatu, ndetse hari n'intoryi zifunze ku mufungo na zo kuri zirindwi zirindwi, ndetse n'inyanya. Aho byari biteretse ku gafuka hari umuntu uri kubicuruza, ategereje ko baza kubigura.

Umurima uteyemo imboga rwatsi, aho ari imboga nyinshi zigiye ziri kumwe ndetse kandi izi mboga zikaba zifasha umubiri kurwanya indwara zigiye zitandukanye kubera ko ziganjemo intungamubiri nyinshi.

Kimwe mu gishanga cyiza giherereye mu Karere ka Huye, kikaba gihingwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibirayi ndetse n'imboga n'imbuto kandi kikaba gikikijwe n'ishyamba ku mpande zacyo.

Imbuto nziza cyane zizwi ku izina ry'imyembe, akaba ari zimwe mu mbuto zikunzwe n'abantu batari bakeya kubera uburyohe bwazo kandi zikaba zifasha abantu mu kubarinda indwara zigiye zitandukanye.

Indabo nziza zigizwe n'izifitemo amabara y'umuhondo avanze n'icyatsi zikaba ziteye ku nkengero z'umuhanda, zikaba zifasha muri ako gace ko ku muhanda kugaragara neza cyane kandi hakaba hanafite isuku.

Rimwe musoko rya kijyambere ry'imboga n'imbuto, aho ryari ririmo imbuto nyinshi zigiye zitandukanye harimo pome, imyembe, amaronji ndetse na wotameroni, bikaba byari biteretse ku tumeza mu gihe bitegereje ababigura.

Rimwe mu masoko y'imboga n'imbuto, aho hari hateretse karoti ndetse n'inyanya ku kameza bacururizaho mu gihe bari bategereje abaguzi babyo, kugira ngo babashe kubona inyungu ndetse banabone uburyo babaho.

Umwana w'umuhungu wambaye agapira kari mu ibara ry'umweru, ndetse n'itiriningi y'umukara n'inkweto za bote, aho yari ari mu murima arimo ategura imyaka irimo yera ndetse kandi akaba yari arimo anazengurutsa ibiti iyo myaka.

Mu isoko ry'imboga n'imbuto hakomeje kugaragara ibicuruzwa bigiye bitandukanye bigurishirizwa muri iryo soko, aho hagiye harimo ibiringanya, ibihaza, ibitunguru by'umweru, ibitunguru by'umutuku ndetse n'imiteja, akaba ari byo abantu benshi bakunda kugura.

Zimwe mu mboga zizwi nk'intoryi akaba ari imboga zikunzwe n'abantu benshi cyane, kubera uburyohe bwazo kandi ndetse bakaba bavuga yuko abantu bazirya zikunda kubafasha kubarinda indwara zigiye zitandukanye.

Mu isoko ry'imboga n'imbuto, aho harimo karoti nyinshi ziteretse mu kabase ndetse hakaba ku ruhande rwazo hari ibitunguru byinshi ndetse n'amashu kandi hari hegeranye n'ahandi hari intoryi.

Urubyiruko rwiganjemo abasore ndetse n'abakobwa, aho rwari rwahuriye hamwe mu karima kugira ngo babashe guteramo imboga ndetse n'imbuto, bifashe abagakoresha kugira ubuzima bwiza.

Urubuto ruri ku giti rufite ibara ry'icyatsi, akaba ari rumwe mu mbuto zizwi ku izina rya avoka ndetse zikaba zikoreshwa cyane cyane bazongera kubiryo kugirango ngo zibashe gufasha abafata amafunguro kuryoherwa, ndetse bigafasha no kugira ubuzima bwiza.

Umumama wambaye igitenge cy'ishati ndetse n'ingutiya, aho yari yikoreye akabase avuye gusarura karoti mu murima we ndetse akaba yari ahagaze mu murima aho yari yegeranye n'indi mirima yo mu gishanga giteyemo umuceri.

Zimwe mu mbuto za avoka nziza cyane. Aho zifite ibara ry'icyatsi, ndetse zikaba zikiri no ku giti ukabona ko, aribuka zakuze neza cyane zidafite uburwayi na bumwe, ndetse kandi zikaba zarakuze byihuse.

Karoti nziza cyane ubona ko zibyibushye kandi ndende zifite ibara ryiza rijya gusa nk'icunga rihishije, aho zari ziteretse hasi ku gatapi ndetse kandi zikaba zari zitangiye guhindura ibara ho gatoya hazaho utuntu tw'umukara.

Pepiniyeri nziza ijyanye n'igihe hahagazemo umukobwa wambaye agapira ka oranje ndetse n'akagofero k'umukara, aho yari arimo areba nimba ingemwe zose ziri muri pepiniyeri zimeze neza kandi ikaba yubatse mu buryo bwa kijyambere kuko isakaye hejuru kandi ikaba ikoresheje ibiti.

Inzu iherereye ahantu hameze nk'icyaro, nyumayo ikaba ifite umurima ukikijwe n'imiyenzi, ndetse hakaba hari igiti cya avoka ku ruhande rwayo, kandi uwo murima ukaba wera cyane kuko ibigori birimo byakuze neza cyane.

Zimwe mu mbuto zikunze kwera ku biti zizwi ku izina ry'ipapayi, akaba ari zimwe kandi zikunzwe n'abantu benshi bagiye batandukanye kubera uburyohe ntagereranywa zigira kandi zikaba zifasha no mu kurinda indwara zigiye zitandukanye.

Zimwe mu mboga zikunze kwera mu mirima igiye itandukanye, akaba ari imboga rwatsi, zikaba kandi zikunzwe kuribwa n'abantu benshi bagiye batandukanye kubera ko zibafasha kugira ubuzima bwiza kubera ubwinshi bw'intungamubiri buzibamo.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye higanjemo abakecuru ndetse n'abasaza, aho bari bahuriye hamwe barimo bategura ibihingwa byabo byari bihinze muri pepennyeri zabugenewe kugira ngo bibashe kuzakorwamo ingemwe z'imbuto.

Umumama w'umukecuru uteze agatambaro mu mutwe, aho yari arimo ategura neza akarima ke k'igikoni gahinzemo imboga zigiye zitandukanye ndetse kandi akaba yarateye n'ibigori mu murima ukikije akarima k'igikoni.

Umumama ucururiza imbere y'inzu imbuto ziganjemo amavoka, ibinyomoro ndetse na marakuja, aho yari yicaye ategereje ko abona umuguzi uza kumugurira ibicuruzwa bye.

Ibase irimo tangawizi, ikaba ari kimwe mu bimera bikunze gukoreshwa n'abantu benshi, aho bagikoresha mu buryo butandukanye, harimo kugitekana n'ibiryo nk'umuceri, cyangwa ukagishyira mu cyayi, kandi kikaba kibafasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri.

Inyanya nziza cyane ndetse na karoti biteretse ku tumeza two mu isoko ry'imboga n'imbuto, aho umuntu ubicuruza yari ategereje ko atangira kubona abaguzi baza kubigura ndetse kandi bakaba bavuga yuko bibongerera inyungu nyinshi.

Bimwe mu bice bikorerwamo ubuhinzi, aho abaturage babashije kwiyegereza uburyo buborohereza kuvomerera imyaka yabo ku mirima ndetse bukaba butuma imyaka yabo ituma, bikabafasha kongera umusaruro babona.

Umumama ukuze aho yari ari kumwe n'utwana ku ivomo rusange, arimo avoma amazi ndetse arimo atwigisha n'uburyo bakora amasuku agiye atandukanye kugira ngo tuzakurane umuco w'isuku.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara iterambere ryihuse mu bijyanye n'ubuhinzi, aho abantu benshi bakomeje gutangira kujya bavomerera imyaka yabo mu gihe imvura yabuze bakoresheje iterambere, aho bazana imipira ivoma amazi bakabasha kuyageza ku bihingwa byabo.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye, higanjemo abamama, abasaza, aho bari barimo bavomerera imyaka yabo ihinze mu murima, ndetse abandi bari ku ruhande barimo babagara imyaka kugira ngo yere neza.

Abamama bari mu murima, aho bari bafite amajerekani arimo amazi, ndetse n'ibikoresho byo gukoresha bavomerera imyaka yabo yari itangiye kumera, kugira ngo babashe kuzabona umusaruro mwiza, kandi mwinshi uhagije.

Umusore wambaye agapira ndetse ufite n'umupira mu ntoki ze ufite ibara ry'ubururu bwerurutse, aho yari arimo yuhira imyaka akoresheje amazi ari kuva mu uyu mupira kugira ngo abashe gutuma imyaka yera neza ndetse azabone n'umusaruro mwinshi.

Zimwe muri gahunda za leta z'ubuhinzi bujyanye n'igihe, harimo na gahunda yo kuvomerera imyaka aho bafata amazi bakayakura kure, nyuma bakajya bakoresha amatiyo mu guvomerera imyaka igiye itandukanye, higanjemo ibigori ndetse n'imyaka iri ahantu hadakunda kugwa imvura.

Zimwe mu nzu ziherereye mu bice by'icyaro, aho ari inzu zubakishije ibyondo ndetse zisakaje amategura kandi inyuma yazo zikaba zifite imirima myiza yo guhingamo, ikaba yera cyane cyane ibitoki byo ku nsina.

Umusozi uherereye mu nkengero z'umujyi, aho ari umusozi uriho ibiti by'amabara agiye atandukanye, ndetse hasi yawo hakaba harimo igishanga kinini cyiza, giteyemo umuceri ndetse n'urubingo.

Amwe mu mazu aherereye ku musozi uhanamye, aho akikijwe n'imirima igiye irimo imiringoti ndetse n'amaterasi y'indinganire, ikaba iteyemo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibiti, insina, ibigori ndetse n'umuceri.

Bimwe mu bice by'icyaro, aho hakikijwe n'imisozi igizwe n'ibiti, ndetse hakaba hari ikibaya cyiza cyane, aho gihinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo insina, ibigori, ndetse n'ibindi.

Imwe mu mirima minini yagenewe ubuhinzi, ikaba hari imirima ikoze mu buryo bugezweho, aho ifite amaterasi menshi yagiye ayiciyemo ndetse ikaba ihinzemo umuceri ndetse n'icyayi, bikaba rero bifasha kuko bituma ibihingwa bihinze byera neza.

Imwe mu mirima iherereye mu bishanga, ikaba ari imirima myiza cyane iteyemo icyayi, aho giteye mu buryo bwa kijyambere bugezweho, aho baca imiringoti hagati y'imirima kugira ngo ibihingwa bibashe kwera neza kandi ikaba ikikijwe n'ishyamba kugira ngo rikomeze ubutaka.

Ahantu heza cyane hafite ikirere cyiza cyiganjemo ibicu, hakikijwe n'imisozi myiza cyane iriho ibimera ku buryo uba ureba ukabona isa icyatsi ndetse kandi hakaba hari n'ibiti byiza cyane.

Imwe mu mirima irimo itegurwa mu buryo bwa kijyambere, aho irimo ihingwa ndetse bacoramo imiringoti kugira ngo ijye ifata amazi, ifashe mu kurwanya isuri ndetse kandi bitume abahinzi bayo babona umusaruro mwinshi.

Umurima uherereye mu nkengero z'Umujyi wa Kigali, ukaba ari umurima uteyemo insina nyinshi ndetse n'ibigori, aho bigaragara ko wera neza cyane kandi ukaba uherereye ahantu heza.

Mu nkengero z'umugi, aho hari ibyatsi byinshi ndetse hakikijwe n'ibiti, hakaba hari ikirere cyiza cyane, bisa nkaho ari ahantu hagenewe guhinga ndetse kandi ukaba ubona ko hanera.

Imwe mu nkengero z'umujyi, aho imigezi ihurira ndetse hakaba hameze nk'igishanga, hakaba ari hamwe mu hakunze guhingwa ibihingwa bigiye bitandukanye, cyane cyane umuceri, kubera ko bibasha kuhakurira neza cyane kandi bigatanga umusaruro mwiza.

Umukecuru w'umumama aho yari arimo avoma amazi yo mu mugezi asa nabi kugira ngo abashe kujya kuyakoresha ibintu bigiye bitandukanye, harimo nko kuyakoresha yuhira imyaka ndetse byanaba ngombwa akaba yayanywa.

Mu nkengero z'umujyi ahaherereye ibishanga byiza cyane bikunze guhingwamo igihingwa cy'umuceri, akaba ari bimwe mu bishanga bitanga umusaruro mwiza cyane kandi ndetse bikaba bikikijwe n'imirima y'abaturage n'ishyamba.

Umwe mu mirima iherereye ahantu heza, aho harimo abakecuru ndetse n'abapapa barimo bawuhinga, mu buryo bwa kijyambere bugezweho, aho bagenda bacora imiringoti, hagati y'umurima n'undi kugira ngo azabashe kubona umusaruro mwinshi.

Mu Rwanda mu karere ka Huye mu bice by'ibyaro, aho hagiye harimo ibishanga byagiye bihurizwa hamwe, bikaba bihinzemo umuceri ndetse kandi ku mpande yabyo bikaba bikikijwe n'ibiti ndetse n'imirima y'abaturage.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye biganjemo abasore ndetse n'abana, aho bari barimo barima umurima mu buryo bwa kijyambere bugezweho bifashishije amasuka bafite mu ntoki, ndetse bakabasha no gutunganya uwo murima neza.

Hamwe mu hahingwa mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho bacora imiringoti hagati y’imirima kugira ngo babashe kongera umusaruro, ndetse hakaba hakunze guhingwa icyayi kubera ko gifite umusaruro mwinshi ahantu hahanamye.

Bimwe mu biraro bya kijyambere byubatse ahantu heza, bikaba byubakishijwe ibiti ndetse bisakajwe amabati, aho hagiye harimo amatungo atandukanye, ndetse kandi hakaba hakikijwe n'imirima irimo insina ndetse n'inturusu.

Mu Rwanda, ahantu hari ibimera byiza mu murima, ndetse ku mpande hakaba hakikijwe n'igishanga kirimo amazi, akaba ari hamwe mu hantu hakunze kurangwa no kwera cyane, kubera ko hafite ubutaka bwiza.

Umurima mwiza uherereye ahantu hakikijwe n'ibiti ndetse mu kibaya ukaba uhinzemo icyayi mu buryo bwa kijyambere, aho hagiye haciyemo imiringoti ndetse n'amaterasi y'indinganire, bikaba bituma icyayi cyera neza.

Kimwe mu bishanga byiza cyane, giherereye mu Karere ka Huye, akaba ari kimwe mu bishanga bitanga umusaruro mwinshi, aho gikunze guhingwamo cyane igihingwa cy'umuceri ndetse ukaba ubasha kuhera kandi bakabona umusaruro mwiza cyane abahinzi baho.

Ihene eshatu nziza ziri mu kiraro cya kijyambere, aho gikikijwe ibiti ku mpande ndetse kikaba kinasakaye. Zikaba kandi zinafitemo ibyoku kurya byiganjemo urubingo ndetse n'ibigorigori.

Inka nziza zari zazanywe mu imurikagurisha, aho ari inka zifite amabara y'umweru n'umukara, ndetse abari baje kuzireba bakaba bicaye mu mahema meza cyane, ari mu ibara ry'umweru ndetse n'akabara k'ubururu, aho bari barimo bazitegereza.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse na bote, aho yari ahagaze mu kiraro cy'inkoko ndetse akaba yari arimo azitaho kuko yari azizaniye amazi yo kunywa mu kintu yari afashe mu ntoki.

Ihene ziherereye mu kiraro cya kijyambere, aho hari ikiraro gikikijwe n'imbaho ku mpande ndetse kikaba gisakaye hejuru, gifitemo urubingo rwo kuryamo mu imbere ndetse kandi izi hene zikaza zifite ikizirikwa mu ijosi ziziritse ku rugo.

Ikiraro cyiza cyubatse mu buryo bwa kijyambere, aho cyubakishijwe amatafari ndetse n'ibiti, kandi kikaba kirimo inka nziza cyane ifite ibara ry'umweru ndetse n'iry'umukara, bakaba baranayubakiye akantu iriramo.

Umwana w'umuhungu wambaye agakote ndetse n'gatiriningi, akaba yari ari mu nzu yororerwamo inkoko aho yari ahagaze arimo areba uburyo zirimo zirya ndetse kandi akaba ari na we uzitaho.

Ingurube ziri mu kiraro cya kijyambere, akaba ari ingurube enye zari ziri kumwe mu kumba, aho icyo kiraro gikikijwe ku mpande n'imbaho ndetse kikaba kinasakaye hejuru kugira ngo ingurube zibashe kuba ahantu heza.

Umu mama w'umukecuru wambaye ibitenge ndetse akenyeye n'agatambaro mu mutwe, aho yari afashe ihene harimo ifite ibara ry'umukara iz'umweru ndetse nibarya gusa nki'ikigina kugira ngo umwana we azihe utwatsi zirye.

Inka ziri mu kiraro cya kijyambere, aho ari ikiraro cyiza cyane, cyubakishijwe ibiti ndetse n'amatafari, kandi zikaba zarakorewe ahantu babasha kuzishyirira utwatsi, kugira ngo zibashe kurya neza zitabangamiwe.

Ikiraro cyubatse mu buryo bwiza cyane, akaba ari ikiraro kirimo ihene, aho zari zirimo zirya utwatsi ndetse kandi kikaba gikikijwe n'ibiti bakoresheje bacyubaka.

Inka y'imbyeyi ifite amabara y'umukara, aho yari iri kumwe n'agatavu kayo mu kiraro, kari karyamye hasi ubona yuko kakiri gatoya, nyuma y'uko kari kamaze iminsi mikeya kavutse kataramenya gutangira kugenda ndetse no guhagarara neza.

Inka nziza ifite ibara ry'umweru ndetse n'iry'umukara, ikaba yari ihagaze mu kiraro cya kijyambere, aho ari ikiraro cyiza cyane cyubatswe mu buryo bugezweho, aho gikikijwe n'ibiti ndetse hejuru kikaba gisakaye kugira ngo inka itazajya inyagirwa.

Kimwe mu biraro bya kijyambere bigezweho, kikaba cyubakishijwe ibiti ndetse gisakajwe hejuru amabati kandi kikaba gifiteho ahantu habugenewe inka zirira kugira ngo zibashe kugira isuku kandi kikaba cyari cyasuwe n'abantu batandukanye higanjemo abamama ndetse n'abapapa.

Umusore ufite imisatsi y'umukara, wambaye ishati ndetse n'ipantaro n'inkweto y'umukara, aho yari ahagaze imbere y'ikiraro, arimo areba inka nziza zari zirimo, zifite ibara ry'umweru n'umukara.

Inka nziza ifite ibara ry'umweru n'umukara, aho yari iri mu kiraro irimo irya utwatsi. Ndetse akaba ari ikiraro cyubatswe mu buryo bwa kijyambere, aho gisakaje amabati. Ndetse ku mpande kikaba gikikijwe n'ibiti.

Inka ziri mu kiraro cya kijyambere, aho ari ikiraro cyubatse mu buryo bugezweho, cyikaba cyubakishije imbaho ndetse gisakaje amabati, ndetse kandi cyikaba gifite n'ibidahiro inka zinyweramo amazi, ndetse n'udukoresho twabugenewe ziriramo.

Ingurube nini iryamye mu kiraro cyabugenewe nyuma yo kwibaruka utubwana twayo twinshi aho yari irimo iratwonsa ndetse ikaba yari yabyaye utubwana twiza kandi tunini.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye higanjemo abakecuru ndetse n'abasore, aho bari batwaye intwavu bazikuruye amatwi kugira ngo bazijyane ku isoko bajye kuzigurisha babashe gukuramo amafaranga abatunga.

Ikiraro cyiza cy'ingurube cyubatswe mu buryo bwa kijyambere, aho ari ikiraro cyubatswe ahantu heza kandi cyubakishijwe ibiti ndetse kikaba gifitemo n'abakozi bagikoramo kugira ngo babashe kuzigaburira ndetse banaziteho.

Umwana w'umuhungu wambaye igisarubeti cyo mu ibara ry'ubururu, aho yari yicaye imbere y'ikiraro cy'inkoko azororeramo ndetse akaba yarimo yita ku nkoko ze kugira ngo zizabashe gutanga umusaruro mwiza.

Umusore wambaye agashati k'umweru, aho yari arimo akina n'akanyana gafite ibara ry'umweru ndetse n'agakara gakeya, arimo agakurura kugira ngo agacyure agasubize mu rugo.

Ingurube aho yari iryamye mu kiraro cya kijyambere kigezweho, ikaba yari iri kumwe n'utubwana twayo turimo turonka nyuma y'uko hari hashize igihe gitoya tuvutse, ndetse ingurube zikaba ziri muri amwe mu matungo atanga umusaruro mwiza.

Inka nziza ifite amabara y'umweru n'umukara ndetse ikaba ifite n'ubwari bunini, aho yari iri mu kiraro cyayo cyubatse mu buryo bwiza, aho cyubakishije ibiti ndetse kikaba gifite n'amabati hejuru agisakaye.

Umusore wari uragiye inka aho yari afite inkoni ndende, yambaye agapantaro k'agakoboyi n'agakote, ndetse akaba yari arimo aragira inka ayigarura mu kiraro, aho yari arimo ayereka aho ica.

Umumama wambaye ingutiya ndetse ukenyeye n'agatambaro mu mutwe. Aho yari ari kumwe n'umugabo we n'umwana wambaye impuzankano z'ishuri, barimo bagaburira inka zabo zari ziri mu kiraro cya kijyambere cyubakishijwe imbaho ndetse kinasakaye hejuru.

Ingurube za kizungu ziryamye mu kiraro cyubatswe ku buryo bugezweho, aho cyubakishijwe isima ku mpande ndetse no hasi bikaba bifasha kurinda umwanda kuko imyanda ihita ica ku isima ikabasha gusohoka ndetse kandi zikaba zitanga n'umusaruro mwiza.

Imwe mu matungo magufi ikaba izwi ku izina ry'ihene, ikaba yari iziritse ikiziriko mu ijosi gifashe ku giti kugira ngo itaza kubacika ikagenda, ndetse kandi ikaba ari imwe mu matungo akunze kuribwa, ndetse akaba agira n'inyama ziryoha.

Umukecuru wari utwaye iyi nka yayambitse ikiziriko mu ijosi ari cyo yafasheho, aho yari ayijyanye ahantu bagurishiriza inka kugira ngo ibashe kujya ku isoko abashe kubona amafaranga.

Ahantu hameze nko mu cyaro, aho hari hagiye hari inka zitandukanye harimo insine ndetse n'ibihogo, aho zari zibyagiye zimwe izindi zihagaze mu hantu hameze nk'kiraro cyabugenewe.

Umugabo wambaye agashati ndetse n'ipantaro y'umukara, aho yari afashe ubwatsi agiye kubuha inka ye yari iri mu kiraro, ikaba ari inka ifite ibara ry'umukara ndetse iri mu kiraro cya kijyambere aho gisakaye neza kandi kikaba kizitijwe ibiti.

Ibigori byiza byakoze neza, aho byari bisharitse ku biti kugira ngo bibashe kuma nyuma bazabashe kuba bajya kubishesha babikuremo akawunga keza cyane kandi ndetse bibashe no kubikwa mu gihe kirekire.

Kimwe mu gishanga gikomeye gihingwamo umuceri giherereye mu karere ka Huye ko mu ntara y'Amajyepfo, kikaba ari kimwe mu bitanga umusaruro kubera ko umuceri uhera uba ari mwiza cyane kandi ufite ubuziranenge.

Imwe mu mirima minini cyane aho ihinzwemo ibizwi ku izina ry'ibireti, akaba ari ibihingwa biteza imbere ubukungu ndetse kandi bikaba biteye mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho biteye mu matarasi.

Umwe mu mirima uhinzemo ibishyimbo byari bitangiye kumera, ukaba ari umurima mwiza ndetse ukaba ku mpande zawo ukikijwe n'ibigori bikokoye kugira ngo bizafashe ibishyimbo bibyegereye gukura neza bibizamukiraho.

Umurima mwiza cyane uhereye ahantu heza ndetse ukaba wari utangiye kumeramo ibimera bimeze nk'ibishyimbo, kandi ukaba ufite ifumbire nziza cyane kuko urabonako utoshye ndetse ufitemo n'amazi

Umusore wambaye agapira ko mu ibara ry'icyatsi ndetse n'agatriningi k'umukara, aho yari ari mu murima arimo atera imihembezo mu murima kugira ngo ashingirire ibishyimbo byari birimo bikura, bizabashe gutanga umusaruro mwiza.

Umusore wambaye igisarubeti cyo mu ibara ry'ubururu, n'inkweto zizwi ku izina rya bote z'umukara, aho yari arimo arashyira ikiziriko mu ijosi ry'inka nziza, ifite ibara ry'umweru n'umukara, ndetse akaba yari akikijwe n'abana.

Umusore wambaye igisarubeti ndetse na bote n'akagofero k'umukara, aho yari ari mu gikuyu aragiye inka zari zaje kuharisha ndetse kandi akaba yari ari kumwe n'inka nyinshi cyane zishobora kuba zigera ku nka esheshatu.

Ahantu hasa n'aho ari mu cyaro, aho hari umwana wari urimo akora ku nka, ikaba yari iri mu kiraro ndetse ikaba yari irimo irya ibyatsi yayishyiriye mu kantu ko kuriraho.

Umugabo wambaye isarubeti rifite ibara ry'ubururu, aho yari afashe ku nka kugira ngo abashe kuyiha imiti yayo yari afite mu gacupa kugira ngo ayivure ndetse ikomeze no kugira ubuzima bwiza.

Abana b'abahungu biganjemo abasore aho bari baje gutanga inka ku muturage ndetse bakaba bamwubakiye n'ikiraro cyiza cyubakishijwe ibiti ndetse kinasakaye kandi iyo nka ikaba yari ifite ahantu heza ho kurira ndetse n'ubwatsi buyegereye.

Inka nziza zifite ibara ry'umweru n'umukara, aho zari ziri mu kiraro cya kijyambere zirimo zirya ubwatsi hanze ndetse zikaba zari zasuwe n'abantu bari mu ngeri zitandukanye, higanjemo abasore ndetse n'abakobwa.

Hamwe mu duce tw'icyaro aho hari hahurijwe inka hamwe mu kiraro, hakaba hari inka zigiye zitandukanye harimo iz'ibihogo, isine, ndetse kandi zikaba zimeze nk'aho zari zitegerejwe kujya kugurishwa ku isoko.

Akanyoni keza kari ku ishami ry'igiti, aho gafitemo amabara y'ubururu, umukara, umutuku, icyatsi, ndetse kakaba kazwi ku izina ry'ifundi, kakaba gakunda kurangwa no kugira urusaku rwinshi cyane.

Akanyoni keza cyane kari gahagaze ku ishami ry'igiti, aho kari karimo kareba izindi nyoni ndetse kakaba gafite amabara menshi meza yiganjemo ibara ry'ubururu, ndetse n'umurizo w'umukara ndetse kandi ku gahanga kakaba gafiteho akantu k'agasunzu k'umutuku.

Akanyoni keza gafite amaguru y'umukara ndetse n'amababa na yo afite ibara ry'umukara, kakaba gafite mu gatuza harimo ibara ry'umutuku, kakaba kari gahagaze ku rurabo, aho kari karimo kanyunyuza uturabo.

Akanyoni keza cyane gahagaze ku ishami ry'igiti, kakaba gafite umunwa muremure usongoye ufite ibara ry'umutuku, gafite amaso meza y'umukara, umutwe wa oranje, amababa gafiteho ibara ry'ubururu ndetse n'iry'umukara.

Tumwe mu dusimba twiza cyane dufite ubwoya burebure ndetse n'imirizo, tukaba tuzwi ku izina ry'inkende, aho twari duhagaze hejuru ku ishami ry'igiti, harimo n'imwe iteruye akana kayo gatoya ndetse kandi zikaba ari inyamaswa zikunda kwitwara nk'abantu.

Akanyamaswa keza kicaye iruhande rw'umuhanda, akaba ari akamaswa gafite ubwoya bwinshi, ndetse kakaba gafite mu maso hajya gusa nk'ah'umuntu, kakaba kazwi ku izina ry'inkende, ndetse kakaba gakunda kuba ahantu hari amashyamba.

Akanyamaswa keza gafite isura ijya gusa nk'iy'umuntu ndetse gafite n'ubwoya bwinshi n'umurizo muremure, kari kicaye ku gipangu, aho kazwi ku izina ry'inkende ndetse akaba ari akanyamaswa gakunzwe n'abantu benshi, kubera ukuntu kajya kwitwara nk'abantu.

Akanyamaswa keza kajya kureba nk'umuntu gafite ubwoya bwinshi ku mubiri wako kari kuriye igiti ndetse kanafashe ku ishami, kakaba kazwi ku izina ry'inkende, kandi tukaba dukunze kugaragara ahantu henshi hagiye hatandukanye.

Akanyamaswa gakunze kugaragara mu byanya nyaburanga, aho kajya kumera nk'ihene gusa ko ka kaba atari ihene, ka kaba kazwi ku izina ry'impongo ndetse ka kaba gakunze kuribwa n'inyamaswa z'impigi, higanjemo intare ndetse n'ingwe.

Akanyoni keza gahagaze ku ishami ry'ibiti, kakaba gafite agatuza gafite ibara ry'umweru ndetse kaba gafite n'utubaba twiza tw'umukara, kakaba kazwi ku izina ry'umusambi, ndetse kakaba gakunda no kuguruka cyane ku manywa.

Akanyoni keza kari mu giti gahagaze ku ishami kakaba gafite amabara menshi agiye atandukanye, harimo ibara ry'umuhondo, umukara, umutuku ndetse kandi kakaba gafite n'akarizo karekare na ko k'umukara.

Ikinyoni gihagaze ku ishami ry'igiti, kikaba gifite akabara k'umukara, mu bice binini byayo ndetse ku gatuza ho ikaba ifiteho ibara ry'umweru, kikaba kizwi ku izina ry'igisiga cyangwa icyiyoni.

Akanyoni keza gahagaze ku giti, aho gafite amababa ndetse n'umurizo byo mu ibara ry'umukara, ka kaba gafite agatuza n'umutwe biririmo ibara ry'ubururu, ndetse kakaba gafite n'akanwa gasongoye cyane imbere k'umutuku, kakaba ari akanyoni gakunda gukurura ba mukerarugendo, kubera ubwiza butangaje gafite.

Inyoni ifite ibara ry'umukara ku ijosi no ku mutwe ndetse hagati ku gatuza ikaba ifitemo ibara ry'umweru, ikaba yari ihagaze ku gishami cy'igiti kandi ikaba izwi ku izina ry'igisiga cyangwa icyiyoni.

Akanyoni keza gahagaze k'udushami tw'igiti kakaba gafite amababa ari mu ibara ry'umukara, ndetse gafite agatwe gasongoye imbere, kakaba ari kamwe mu tunyoni tuzwiho gusakuza cyane ndetse kakaba gakurura n'abakerarugendo, kuko bakunda ukuntu gasa.

Akanyamaswa keza kajya kugira isura nk'iy'umuntu, gafite amatwi manini ndetse n'ubwoya bwinshi bugakikije ku mubiri. Aho kari gafashe ku ishami ry'igiti, ndetse tukaba ari utunyamaswa tuzwi ku izina ry'inkende.

Akanyoni keza gafite ibara ry'umuhondo, umutuku, ndetse n'umurizo w'umukara. Kaba gafite n'akanwa karekare k'umukara gasongoye, aho kari gahagaze hejuru ku ndabo karimo kazireba, ndetse kakaba kazwi ku izina ry'ifundi.

Inyoni nziza cyane, ikaba yari ihagaze ku mashami y'uduti, ikaba ifite amabara y'umukara n'umweru, ikaba izwi ku izina rya sakabaka, ndetse ikaba ikunda no kugurukira mu kirere, ahantu hejuru cyane hitaruye izindi nyoni.

Inyamaswa ziri mu byanya nyaburanga, aho zisurwa na ba mukerarugendo, zikaba zirimo inzovu ifite amatwi manini, ndetse n'ikinwa kirekire cyane, kandi ndetse zikaba zari ziri ahantu hari uduti twiza cyane.

Akanyamaswa gafite amaguru abiri ndetse n'amaboko abiri n'umurizo muremure, aho kari kuriye ishami ry'igiti kagenda kagifasheho ndetse bakaba abantu benshi bakunda kutwita inkende, kandi tukaba tuzi n'ubwenge.

Mu Rwanda hakomeje kugaragara iterambere ryihuse mu bukerarugendo, aho hagiye hubakwa ibiraro byo mu kirere akaba ari bimwe mu bikunze gukurura ba mukerarugendo cyane kubera ko iyo ukiriho uba ubona ubwiza bw'ishyamba ndetse n'ibindi byiza nyaburanga.

Inyamaswa eshatu nziza zicaye hamwe mu ishyamba, aho zari zirimo zireba uduti ndetse zikaba zifite ubwoya bwinshi n'amabara y'umukara, aho zizwi ku izina ry'ingagi, ndetse zikaba ziri no mu bikunda gukurura ba mukerarugendo cyane.

Akanyoni keza kari gahagaze ku rurabo, kakaba gafite amabara menshi agiye atandukanye, higanjemo ibara ry'umuhondo, umutuku, ndetse umukara ku karizo kayo no ku mababa, kandi kakaba gafite akanwa gasongoye nako k'umukara.